Ibi ni ibyicungo byo mu ishuri ry'incuke, ryigiramo abana batoya muri garidiyene ndetse no mu bindi byiciro bitoya, bibanziriza kuba umwana yakwiga mu mashuri abanza. Ibi byicungo bikaba bigira uruhare mu gukangura ubwonko bw'umwana, bitewe n'uko ubwonko bw'umwana bukangukira mu mikino.

Aba n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'abarimu babo, bari kwiga by'umwihariko isomo ryo gushushanya, bashushanyije ibintu bitandukanye, birimo inyoni, ariko bigaragara yuko aba bana bafite impano yo gushushanya.

Iri ni itorero riririmba indirimbo zitandukanye za gakondo rigizwe n'abantu bacuranga gitari ririmo abantu bacuranga senti. Harimo abakobwa babiri barimo kuririmba bigaragara yuko bashobora kuba bafite amajwi meza nkurikije uko mbona bari kuririmba kuri izi mikoro.

Aha ni mu kigo cy'amashuri cyigisha imyuga, mu nzu bigishirizamo imyuga igiye itandukanye, harimo imashini zitandukanye. Ndi kubona abanyeshuri barimo kwiga gukoresha imashini zitandukanye, bambaye impuzankano z'ubururu, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, ariko bose bambaye amadarubindi kugira ngo bataza kwangirika amaso.

Aba ni abanyeshuri bo mu mashuri abanza bari kwiga gushushanya, uwa mbere urabona ko yashushanyije inyubako igeretse kenshi cyane yubatse ku buryo bwa kijyambere. Uwa kabiri akaba yashushanyije umusirikare ufashe imbunda arimo kurasa, bicaye ku ntebe zitwa pipitire zishaje.

Aha ni ahantu bigira umwuga wo kudoda ndi kuhabona umukobwa umwe ufite metero mu ijosi urimo kudoda ariko akaba nta mwambaro ariko kudoda uhari bigaragara ko yari arimo kwifotoza ndi kuhabona n'abandi bakobwa barimo kwiga barimo n'uwitandiriye bishoboka ko yababara umuyisilamu nk'akahabona n'imashini nyinshi zitandukanye abanyeshuri bifashisha barimo kwiga kudoda.

Aha ndi kuhabona utumeza dutatu, ndetse n'akabati. Utu tumeza bikaba bigaragara y'uko ari mu ishuri ry'incuke, bitewe n'ibikinisho bihari ndetse na za mudasobwa z'ibikinisho zikunze gukoreshwa n'abana biga mu mashuri y'incuke, bari kwiga ikoranabuhanga.

Aha ni mu kigo cy'amashuri mu cyumba bigiramo ikoranabuhanga, ndi kubonamo za mudasobwa nyinshi cyane ziteretse ku meza zirimo kwaka. Ndi kubonamo n'abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano ndetse by'umwihariko n'umwarimu wambaye ibirango bya MTN, bikaba bishoboka ko ari kubashyiriramo ikoranabuhanga rya mudasobwa.

Aba ni abanyeshuri biga ubukanishi, barimo kwiga uburyo bakora moteri, ndetse n'ibindi byuma bitandukanye byo ku modoka. Ndi kubona imodoka ishaje barimo kwigiraho, nkabona hari babiri barimo gukora n'abandi bicaye. Bigaragara yuko bananiwe. Aba banyeshuri bikaba bigaragara yuko ari abahanga baziteza imbere.

Aba ni abanyeshuri biga imyuga, barimo gusubiramo ibyo bize kugira ngo barebe niba ari byo koko, ndi kubonamo abakobwa nkabonamo n'abahungu, uko bigaragara aba banyeshuri bakaba biga gukora ibintu bijyanye n'amazi, cyangwa se bakaba biga ibintu bijyanye no gukora umuriro w'amashanyarazi, bambaye impuzankano bambaye na kasike mu mutwe zibafasha kugira ngo birinde, harimo n'abandi bakeya basuzuguye iki cyo kwambara imyamba......

Aha ni mu ruganda rutunganya ibyuma, ndabonamo abakozi bambaye impuzankano, barimo kugorora ibyuma. Mbese ni ubucuzi bwa kijyambere, ahangaha bakaba bacura ibintu bitandukanye, birimo kugorora ibyuma byashaje.

Aha ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye mu cyumba bigiramo ikoranabuhanga. Ndi kuhabona abanyeshuri batandukanye. Barimo abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano y'iri shuri barimo kwiga ikoranabuhanga. Bari kugira ibintu bitandukanye bakora kuri mudasobwa.

Aha ni mu nyubako y'ikigo cy'amashuri cyigisha imyuga, bitewe n'uko ndi kuhabona ibikoresho bitandukanye ariko by'ubwubatsi. Ndi kuhabona n'abantu bambaye amasarubeti y'ubururu, aba nkaba nkeka yuko byashoboka ko ari abanyeshuri. Ndi kuhabona iyi nyubako ari iya kijyambere.

Iyi ni inyubako bakiniramo amafilime ndi kubona kamera irimo gufata ibyo barimo gukora, ndi kuhabona ibikoresho bitandukanye bimeze nk'ibyapa ndetse n'ibindi insinga zigiye zitandukanye zicometse aha hantu. Biragaragara yuko iki cyumba usibye no kugikiniramo amafilime bashobora kuba nanone, bahakorera ibintu bijyanye n'ubukorikori.

Aha ni mu nyubako abantu bogosheramo, bakanatunganya ibintu bitandukanye by'umusatsi ndetse n'inzara ndikuhabona umugore urimo kogosha umugabo biratangaje cyane kubona umugore akora muri salo zogosha abagabo ndi kuhabona imashini zitandukanye izumutsa, umusatsi izirambura umusatsi ndetse n'izindi mashini zogosha umusatsi.